Abana bicaye ku mukeka w'abanyeshuri, bambaye impuzankano z'ubururu bwerurutse, umukeka ufite amabara y'icyatsi n'umweru, inyuma kunzu hashushanyijeho imodoka.

Umugore wambaye agapfukamunwa uri gufungura amadirishya y'icyumba kinini, kirimo abana batoya bicaye ku musambi, bafite udukombe mu ntoki barimo kunywa, impande hateretse, intebe ndetse n'igitanda cyo kuryamaho.

Inzu ifite imiryango ine ibiri irafunguye, isakaje amabati asa ubururu, hari imyicungo y'abana iri mumabara y'ibendera ry'igihugu ndetse n'ikigega kiri impande.

Igikuta cy'inzu gishushanyijeho ibase isa ubururu n'umweyo w'umukara, impande hahagaze umuntu wambaye inkweto z'umweru.

Inzu isize irangi ry'umuhondo n'amadirishya asa umukara, ishushanyijeho igishyimbo kiri kuzamuka mu butaka ndetse n'ishami ry'igiti, umwumbati ndetse n'inyama.

ibyicungo by'bana, igiti gifite amashami, ikibuga bakiniramo, inyubako isize amarangi y'umweru n'ikirere.

Amaradiyo atatu, imwe irimo ibara ry'umutuku, ubururu, umuhondo n'icyatsi. Iyindi harimo i rose n'indi irimo move.

Ishuri ry'inshuke risize irangi ry'umweru ryubakishije amabati imbere, hari ibyatsi ndetse n'akayira ko kunyuramo hari n'ubwoko bw'ibiti by'amoko atandukanye.

Inzu isize irangi ry'umuhondo, ifite idirishya, ishushanyijeho igiti mu ibara ry'icyatsi ndetse n'umumero w'ibishyiyimbo n'amagambo y'Icyongereza mu ibara ry'umukara.

Ibikinisho byabana, imodoka ifite amabara, ubururu, umukara, umuhondo n'umutuku. Indobo n'inyuguti zanditse mu cyatsi n'ubururu n'umutuku.

Igikuta cy'inzu gishushanyijeho ibishushanyo by'amoko atandukanye, indabo, inzovu, inka imodoka, umuntu ndetse n'agaseke n'ibiti.

Imyicunngo y'abana iriho ibikinisho byabo, bari gukina, isize amarangi y'icyatsi, umuhondo, umutuku, n'ubururu n'umweru.

Umwishonga wabana uri mumabara y'ubururu, umutuku n'umuhondo, n'abanyeshuri bambaye udupira tw'ubururu, hariho ikirango ndetse nibishushanyo biri mu mabara y'umukara n'ubururu.

Igikuta cy'yinzu gisize irangi ry'umuhondo, amadirishya asa umukara, hashushanyijeho ingorofani y'ubururu, inyama ndetse n'inkoko.

Umwana muto uri gutambuka ahantu hasize irangi ry'icyatsi n'umweru, wambaye udukweto tw'umutuku ari kugenda asanga abandi benshi, bahagararanye n'abantu bakuru hari n'inyubako.

Igitabo gisa ubururu cyanditseho mu magambo y'umukara, gishushanyijeho inyoni n'igikeri biri gusangira, hari n'agatebo karimo amagi.

Ikigo cy'amashuri cyubakishije amatafari ahiye, hari abanyeshuri bicaye hasi bambaye impuzankano bose, n'abarimu bahagaze bari kubaha amabwiriza.

Icyumba kirimo imitako n'ibikinisho by'abana biri mabara menshi atandukanye: ako icyatsi, umuhondo, move n'ubururu, hari ameza y'umutuku.

Inyubako igeretse yegeranye n'izindi zisanzwe zisakaje amabati yumutuku, akikijwe ibiti byinshi, isize amarangi y'umuhondo, amadirishya n'inzugi by'ubururu, ndetse isakaje n'amabati y'ubururu.

Ikigo cy'amashuri cyubakishije amatafari ahiye handitseho n'inyuguti zisa umukara, gisakaje amabati asa ubururu, imbere hari ikibuga cyo gukiniramo.

Abarimu babiri umugabo n'umugore bari guha amabwiriza abanyeshuri, bahagaze imbere y'idarapo ry'Igihugu, inyuma hari amashuri n'igiti kiyakikije.

Abana babiri umukobwa n'umuhungu, bahagaze imbere yinzu ifite urugi rusize irangi ry'umutuku, bambaye inkweto zisa ubururu n'umuhondo.

Uruzitiro rwubakishije amatafari ahiye ndetse n'inyubako isakaje amabati, hejuru hari ikirango gitangaga ikaze, mo imbere harimo ibiti by'amoko atandukanye.

Umuryango munini ufite urugi rw'icyuma, hari n'inzu yubakishije amatafari ahiye, iruhande hakikijwe n'ubwoko bw'ibiti bw'amoko atandukanye n'umuhanda winjira muri icyo gipangu.

Inyubako ifite ibyumba byinshi bikurikirana, bisize amarangi yicyatsi, umuhondo isakaje amabati, imbere hari indabyo ndetse n'idarapo ry'igihugu.

Abanyeshuri bambaye impuzankano y'ubururu n'umweru, bicaye barimo kwiga, mwarimu afite igitabo mu ntoki, hari imbago z'abafite ubumuga ebyiri.

Ikaramu nyinshi z'ibiti zo gushushanya, ziri mu gikombe kimwe, iruhande amakayi ibitabo, umukasi, ndetse, n'udupapuro, n'urubuto rwa pome.

Amakayi manini, menshi, hari amakaramu y'ubururu n'umukara, umukasi, irati, agapimamfuruka ndetse na kereyo z'ubwoko butandukanye.

Abana batoya bari hanze y'ishuri bambaye impuzankano zisa, bari ku myicungo, ikigo kizitijwe n'imiyenzi n'ibiti ku ruhande.

Ikigo kinini gifite ibyumba by'amashuri, byubakishije amatafari ahiye, urugi rusize n'amadirishya icyatsi, bisakaje amabati, hagati harimo igiti.

Imfashanyigisho z'ibishushanyo abana biga bifashisha ziriho imibare n'ibimenyetso n'udukinisho twamabara atandukanye: umutuku, icyatsi, ubururu ndetse n'umuhondo.

Ibyumba by'amashuri byubakishije amatafari ahiye, isize irange ry'umukara n'umweru, isakaje amabati y'ubururu, imbere hari ibendera ry'Igihugu ndetse hakikijwe n'ibiti by'amoko atandukanye.

Abanyeshuri benshi bambaye impuzankano bicaye hasi mu byatsi amashati yumweru n'amajipo ya kaki, imbere yabo hahagaze umugabo n'abagore babiri.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, isize irangi ry'umuhondo. Imiryango n'amadirishya bifunguye bisize ubururu. Imbere hahagaze abagabo n'abagore bambaye amajure y'icyatsi.

Itsinda ry'abantu bari mu nzu ifite amadirishya asize irange ry'ubururu, yubakishije amatafari ahiye bambaye amajire asa icyatsi.

Umwarimu uri kwigisha abanyeshuri bambaye impuzankano zisa, imbere yabo hari ameza ateretseho mudasobwa, bafite amakaramu n'amakayi mu ntoki bari kwiga.

Abanyeshuri benshi bicaye hamwe mu cyumba kinini, cyubakishije amatafari ahiye, bambaye impuzankano zisa; amajipo n'imipira n'ishati n'amasogisi maremare n'umweru n'inkweto z'umukara.

Inyubako igeretse yubakishije amatafari ahiye, irangi ry'umuhondo, imbere hari umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara ari kugenda n'ibiti ku ruhande.

Abanyeshuri bicaye, imbere yabo hari ameza, inyuma utubati turimo ibitabo by'amoko menshi, bicaye bamwe bari kwandika, abandi bafite amakayi imbere yabo, abarimu na bo bafite mudasobwa.

Abanyeshuri bicaye hamwe imbere ku meza hateretse mudasobwa, bicaye ku ntebe z'icyatsi bambaye impuzankano amashati y'umweru n'amajipo y'ubururu bwijimye, bari mu cyumba cyubakishije amatafari ahiye.

Umuhungu n'umukobwa bambaye impuzankano, ishati y'umweru, n'umupira w'icyatsi, bafite impapuro mu ntoki n'ikaramu na bibiriya.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye isize amarangi y'umuhondo n'umweru, amadirishya n'inzugi by'ubururu, imbere hahagaze abantu bambaye amajile asa icyatsi.

Abarimu bahagaze imbere y'icyumba cyubakishije amatafari ahiye, irangi ry'jmweru, inzugi zifunguye zisize umukara, imbere hari jaride y'indabo, bafite mudasobwa mu ntoki.

Icyumba kirimo abanyeshuri bicaye ku ntebe bari kwigira mu matsinda imbere yabo hari amakaye yateretse ku meza, ndetse n'umwarimu ufite ikaramu mu ntoki ari kubakosora.

Umugore ufite ikaramu mu ntoki, imbere ku meza ariho igitambaro gisa ubururu, hateretseho ikayi ndetse n'amacupa ane y'amazi. Inyuma hari urugi rusa ubururu rufunguye.

Abanyeshuri bambaye impuzankano zisa, amashati ariho ikirango, imbere yabo hari umugabo wambaye ishati n'ipantaro afite amashami y'ibiti abiri mu ntoki. Inyuma yabo hari ishyamba ry'ibiti byinshi.

Abanyeshuri bari hamwe bahagaze imbere y'inyubako yubakishije amatafari ahiye, ifite amadirishya afunguye, bari kuririmba bambaye imipira y'ubururu n'amajipo ndetse n'umwarimu wabo imbere afite indangururamajwi mu ntoki.

Icyapa kigaragaza ikigo cy'ishuri hariho n'ikirango cyacyo, cyanditse mu nyuguti z'umukara gisize irangi ry'umweru. inyuma hari ibiti by'amoko atandukanye.

Abanyeshuri benshi cyane bambaye impuzankano zisa, bicaye mu nzu mberabyombi, ifite amadirishya menshi, impande abarimu babo bambaye amataburiya asa mweruru, bari kuganira n'abayobozi.

Abanyeshuri bambaye impuzankano z'umweru, umwarimu wambaye itaBUriya bafite mudasobwa bari kwiga hari ishuri.

Abantu benshi bagiye bambaye imyenda isa, bari mu matsinda n'abandi bicayekwabo bari kuganira, hari umwe uhagaze afite indangururamajwi n'igipapuro mu ntoki ari gusoma.

Ikigo cy'amashuri cyubakishijeje amatafari ahiye, gifite amadirishya asize irange ry'umukara, amwe arafunguye andi arafunze, imbere hari abanyeshuri bambaye impuzankano, ubusitani bw'indabyo ndetse isakaje n'amabati.

Abanyeshuri bambaye impuzankano zisa n'udupfukamunwa, amashati y'mweru n'amapantaro y'mukara, imbere yaho hari ameza ateretseho mudasobwa n'uducupa turimo amazi yo kunywa.

Abanyeshuri bari mu ishuri bambaye impuzankano zisa, amashati y'umweru n'amajipo y'ubururu bwijimye. Bari mu ishuri risize irangi ry'umuhondo ndetse n'ikibaho cy'umukara cyanditseho ibintu bitandukanye.

Abagabo n'abagore bambaye amajire asa icyatsi, bari mu muhanda bari gutambuka impande y'ikigo cy'amashuri cyubakishije amatafari ahiye, impande ikigega gifata amazi ndetse n'ibiti by'ishyamba.

Igishushanyo kimanitse ku gikuta kiriho inzu yo guturamo, imihanda yo kunyuramo, ibiti by'amoko menshi. Iyo nzu isakaje amabati ifite amadirishya n'inzugi.

Utuyira turi kugana mu byerekezo bitandukanye, impande hari ubusitani bw'indabo ndetse n'ibiti by'imyembe n'ibindi by'amoko atandukanye.

Inyubako ndende ifite amadirishya menshi amwe arafunze andi arafunguye, isize irange ry'umuhondo, imbere hari umuntu uri gutambuka wambaye umupira w'umukara.

Abantu benshi higanjemo urubyiruko bicaye ku ntebe zisa umukara, bari mu nzu nini isize irangi ry'umuhondo, iruhande imbere yabo hari ameza ariho icupa n'amazi yo kunywa.

Abasore n'inkumi bicaye ku ntebe zisa icyatsi, imbere yabo hari ameza, bafite amakayeyi, terefone, amakaramu, mudasobwa, hari n'umwarimu uhagaze afite icupa ry'amazi.

Abantu benshi bicaye ku ntebe z'umukara mu nzu nini isize irange ry'umuhondo. Harimo umugore uhagaze imbere yabo impanda ye hari ameza ateretseho amacupa y'amazi yo kunywa.

Ameza yicayeho umuntu wambaye inkweto z'umukara n'ipantaro y'umukara, ateretseho ikayi yanditsemo, ndetse n'intebe zisa icyatsi.

Abantu bicaye mucyumba cy'inama gifite mu idirishya afunguye, bambaye udupfukamunwa, bafite mudasobwa imbere yabo n'uducupa turimo amazi, ubona bari kuganira.

Inyubako ndende isize irangi ry'umweru, ifite amadirishya n'inzugi bimwe birafunguye, imbere hari ubusitani bw'indabo ndetse n'akayira ko kunyuramo, impande y'inzu hari ikigega gifata amazi.